Uburezi bw'ibanze buba ari bwiza cyane. Amashuri arubakwa. Iyo amashuri yubatswe abanyeshuri biga neza, biga imvura itari kubanyagira, biga izuba ritari kuva cyane ngo ribatwike. Mbese imvura iyo yaguye biga neza bari mu mashuri. Amashuri aba ari meza cyane kuruta uko umuntu yakwigira hanze.

Uburezi buba ari bwiza cyane, cyane cyane umwanya agiye ku ishuri akurayo ubumenyii ugasanga umwana mutoya asigaye amenya gusoma kandi abantu bakuru batabimenya kubera kera nta bumenyi bwabahaga ariko harimenyi bwinshi abana barajijutse bazi gusoma ibyongereza barabivuga uburezi bwiza cyane.

Ibibuga bya basiketi ku mashuri biba ari byiza cyane kuko bituma abana bamenya gukina. Bituma babana neza kuko iyo ubana n'umuntu mu ikipe imwe muba inshuti kandi birananura, nk'iyo umuntu avuye mu ishuri yananijwe n'amasomo... Biba byiza cyane birafasha.

Intebe mu mashuri, aba ari nziza cyane, haba mu mashuri abanza, e ziba ari nziza cyane, kuko bituma abana biga neza, ntagihunga bafite bicyo bigatuma abana biga neza, bagatsinda neza, ibintu bikagenda neza cyane.

Mu burezi buba ari bwiza cyane. Noneho uburezi bwo kwigisha ikoranabuhanga bukoresheje mudasobwa biba ari byiza cyane kuko bitumaga abanyeshuri muri rusange n'abantu ikoranabuhanga ni ryiza cyane kuko ibintu tuba tubirebera ku marembo kuko dushaka twabyikorera ku mashini. Ryateye imbere ikoranabuhanga.

Kwiga ni byiza. Kwiga ni ingirakamaro. Iyo umuntu yize cyane akaminuza amashuri yose akarangiza, ugasanga yize ibintu by'ubuganga. Ibintu by'ubugangaga biba byiza cyane, kuko iyo uri umuganga abantu barakubaha, kandi muri rusange nawe bikaba bigutunze ufasha abantu mu bintu byo kubavura ugasanga.............

Kwiga ibintu bijyanye no gukora inkweto biba ari byiza cyane, kuko abantu bakora inkweto babonamo amafaranga menshi atubutse, kandi batanga n'umusoro ku gihugu. Kandi nyine n'abantu bazigura bambara neza bakaberwa, biba ari byiza cyane kuko abantu bose bibagirira akamaro.

Uburezi mu iki gihugu cyacu ubu ngubu ni bwo buteye imbere cyane, mbese nta kintu cyarusha uburezi. Ubu abanyeshuri bajya ku ishuri bakiga kogosha, bakajya ku ishuri bakiga kuvura, bakajya ku ishuri bakaba abaveterineri. Mbese uburezi muri iki gihe ni bwiza cyane muri rusange.

Uburezi busimbura cyane, burya iyo umuntu yize aba ameze neza. Hari ukuntu abantu batize batisiga amavuta meza ntibagaragare neza ariko iyo wize uba uzi gukora imisatsi neza, ukora akazi neza, ukoresha umuntu ushyiho utuntu twiza tukakuboneza kandi uba wambaye neza, agaragara neza kandi ibyo bintu byose biva mu uburezi.

Ubukanishi bu ari bwiza cane, cyane cyane ubukanishi bw'ibikoresho bikoreshwa amashanyarazi, kandi by'ikoranabuhanga. Buba ari byiza cyane kubyigariro bibaga ari byiza cyane, abantu babyize bibagirira akamaro, bibatungira imiryango, kandi bituma abantu nyine wenda ari nka moteri zapfuye...

Ibyiza bya laboratware rero ni byiza cyane. Iyo wagiye muri laboratware ukora ibintu byinshi byiza, ukareba ibyo bintu by'ibikemikozi, cyangwa imiti ya kizungu. Ibintu bakora mu malaboratware. Njyewe iyo nagiyemo biranshimisha mba ari bwo ndikumva nize neza pe!

Ububaji buba ari bwiza cyane, ububaji ababaji badukore ibitanda, ababaji badukorera inzugi, ababaji badukora mbese badukorera ibintu byinshi, bakora intebe zo kwica bibaha amafaranga, kandi nabo niyo bari kubaza bagasora igihugu kibonamo amadovize nyine kigatera imbere.

Gukora ibizamini bya Leta biratinyisha cyane cyane nk'ibyo bita RIB, biba bikaze cyane bituma abana ariko bajijuka bagafunguka mu mutwe bagatekereza cyane iyo ari ikizamini cya Leta cyangwa ikizamanini gisoza umwaka cya RIB. Biba ari byiza cyane kuko bituma abana bamenya ubwenge bituma.

Umwuga wo gukaraza uba ari mwiza cyane, noneho umwuga wo ukaraga, wo kuvuza sembari biba ari byiza cyane, kuko sembare zishimisha abantu, abantu bari kumva abakaraza basembare biba ari byiza cyane kuko birabasurutsa cyane.

Uburezi ni bwiza cyane butuma abana bajijuka, bakagira ubwenge bwinshi. Biba ari byiza cyane kuko bituma abana bataba injiji cyane, bakajijuka mu bintu byose bakora ugasanga barajijutse, ugasanga bafite bagira n'ubuzima bwiza abana baciye mu mashuri bakiga.

Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buba ari bwiza cyane, kuko bituma amabuye y'agaciro ari mu ubutaka yose bayakuragamo bakoresheje ubuhanga, nyine bakoresheje uburezi, urumva nyine biba ari byiza cyane, iyo umuntu yize gucukura amabuye y'agacirobaga, biba ari byiza cyane kuko bituma igihugu kiba cyarungutse nyine umuntu.

Uburezi mu koranabuhanga nabwo buba ari bwiza cyane, kuko butuma abanyeshuri bamenya amamashini, bigatuma nabo nyine bajijuka baboneragaho gushaka amasomo menshi atandukanye, ibyo umwarimu atababwiye babishaka ku mamashini, babona nyine ibindi bintu byinshi bibashimisha babikuye ku mamashini yabo cyangwa se ay'ikigo cya Leta.

Amashuri y' imyuga aba ari meza cyane kuko atuma abantu bamererwa neza, kandi nyine nk'abantu bize wenda nk'ubwubatsi, cyangwa ibikorwa remezo byo gukora amashanyarazi biba ari byiza cyane, kuko bituma igihugu kigira ntikijye gushaka abandi...